Icyapa kigaragaza ubwishingizi bw'ibintu bigiye bitandukanye, kiri mu ishusho ya mpande enye ndetse hariho n'umugabo ubona wambaye ikote ryiza, ishati y'umweru na karuvati yimirongo icyo cyapa ubuso ni umutuku, ibyanditseho ni umweru, hasi mu byanditseho n umukara.

Icyapa kinini cyane, kigaragaza ubwishingizi bw'imodoka. Kiri muri mpande enye, kiriho imodoka yajanjaguritse, yakoze impanuka, ndetse cyandikishijwe amagambo y'ubururu n'ay'umukara, mu gihe cyo imbere ari umweru. Inyuma y'icyo cyapa hari ibicu ubona bisa neza rwose, mu mabara y'ubururu n'umweru.

Icyapa kiriho abagore bari kumwenyura bishimye basa neza, kiri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umutuku n'imodoka nini ihaparitse kirasa neza rwose inyuma yaho hari igicu kigaragazamo amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Ifoto nziza igaragaza ikigo cy'ubwishingizi. Byanditswe mu magambo y'ubururu, ndetse hasi amagambo y'icyatsi, impande aka rozanje cyangwa ingirwamwashi iberamye y'umuhondo, imbere harimo udukoni tw'umweru. Inyuma y'iyo foto ni umweru.

Umugabo uhetse umwana we, bameze nk'abari ku cyapa cyamamaza airtel mane umugabo yambaye ishati nziza maremare, umwana yambaye agashati k'ubururu, inyuma yabo hahagaze umugabo umeze nk'umugabo wera wambaye itaburiya y'umweru.

Icyapa kigaragaza ubwishingizi bw'umuryango. Hari umuryango mwiza, umugore, umugabo abana babiri. Bambaye neza, baraseka, baregeranye, barishimye, hasi hari amagambo mu ibara ry'umweru ariko bagarawundi yayo ni ubururu.

Icyapa kiriho umugabo wifashe neza, yambaye umweru imbere, kigaragaza kandi amabara atandukanye, ibara ry'iroza ndetse niry'umweru, inyuma yacyo hari amabara y'ubururu ndetse n'ay'umweru.

icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi, ni kinini rwose, ni icya mpande enye ubona gisa neza, imbere yacyo hari imodoka ubona ziparitse ndetse n'inyuma hari amazu ubona meza asakaje amabati y'umukara.

Icyapa kigaragaza ishusho y'inyubako nziza, gifashwe n'umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru inyuma yaho hari igikuta kigaragaza amabara y'icyatsi, inzu nziza rwose isakaje amabati y'umutuku ifoto iraryoshye.

Abantu babiri bicaye mu modoka bari kugenda baganira rwose mu bigaragara baranezerwe, umugore n'umugabo, bari mu muhanda mwiza, ndetse ndabona n'icyapa cyanditseho ngo radiyati yacu, kiri mu mabara y'ubururu, hirya hari akandi kapa kari mu mabara y'ubururu nanone kandikishijeho umweru.

Iduka ry'imyenda ubona ririmo ibintu byinshi bitadukanye, besa neza. Amakoti, amapantaro, inkweto, hateretsemo n'intebe y'abakiriya y'umweru, iryo duka rirafunguye, ndetse hanze rwose hari amakaro.

Iduka ricuruza utunigi tugiye dutandukanye, turi mu mabara menshi umweru, umutuku, ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse turi mukabogisi ubona rwose duteguye neza nibintu bisa neza rwose.

Moto ebyiri ziri mu muhanda zihetse abagenzi iy'inyuma itwaye umugabo ufite igikarito mu ntoki. Iy'imbere ifite utwaye igikapu mu mugongo ku ruhande yateye ubusitani n'imikindo.

Iduka ririmo amasakoshi meza cyane bari kutwereka indi iri imbere ni umukara ifite i bukee y'umweru izengurutse. Hasi hari ijambo ryanditseho kandi iyo sakoshi iteretse ku kase ku kantu k'umweru.

Inkweto nziza y'abakinnyi b'umupira, amabara meza, move, umuhondo, oranje, ubururu ndetse hari n'izindi nkweto ziri hirya nyinshi mu mabara agité atandukanye, zihagaze ku gikuta kiriho amabara y'umukara n'umweru.

Iduka ricuruza imyambaro itandukanye, hanze hari kunyuraho abagore n'abagabo bigaragara ko bari kugenda bitegereza muri rirya iduka. Riri mu nzu nziza cyane isize ibara ry'icyatsi gusa gusa. Hanze hateretse ama vaze arimo indabyo, impande yaho hari akapa ka mtn.

Abantu babiri bameze nkaho bari kuganira bafatanya mu biganza bombi bameze nkaho bari mu iduka, impande y'umugabo hameze hasa nkaho hari ibicuruzwa bitandukanye mu bigaragara bombi bishimiye serivisi bahawe bose.

Umuhanda wa kaburimbo hakurya yaho hari iduka ry'imyenda, bigaragara rwose ko uri gucuruza imyenda myiza y'abamama n'amakanzu amasarubeti imbere yaryo hari n'umugabo ufite utuntu muri paniya mu ntoki urimo aratambuka agenda, hakurya y'iduka hari indi nzu ubone ifite ibara rya orange.

Iduka riri gucuruza imyenda itandukanye amakote, amasengeri, udupira, amapantaro birasa neza rwose, bimanitse mu iduka ryiza rifite amarange y'umukara hasi ni amakaro y'umweru birasa neza kabisa.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Abagabo n'abagore bameze nk'abari kuganira bamwe baricaye barebana, ndetse n'abandi barahagaze, hakurya harimo ubona isa neza iparitse ndetse n'abandi bantu bari hakurya ubona mu mirimo yabo igiye itandukanye, bicaye mu nzu nziza ibakikije isa neza, inkingi z'umweru, amarangi y'umweru w'amakaro ubona asa neza rwose.

Abagabo batatu bahagaze ndetse n'umugore bombi bari kureba imbere, inyuma yabo hari imodoka ndetse nyinshi zitandukanye aho bahagaze ni mu mapave yamezemo utwatsi, inyuma y'izo modoka hari inzu nziza rwose ubona yanditseho ngo Akagera motoru, inyuma y'imodoka y'inzu hari umunara muremure ushinze mu twatsi ubona dusa neza.

Ubu rero n'uburyo umuntu yishyura akoresheje ikoranabuhanga nawe urabona rwose imyirondoro y'iwe amazina, nimero za konte ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ushobora kwishyura rero utumiza ibintu hanze cyangwa mu kindi gihugu.

Abagabo bigaragara ko bari gutanga ikaze aho bakorera, barahagaze, barateganye, bambaye neza, amapantaro y'ubururu, kacyi n'amashati y'amaboko maremare. Inyuma yabo hari imodoka nziza ihaparitse, icanye amatara. Hasi hashashe amapave meza, inyuma yabo hari inzu nziza y'umuhondo ifite ibirahuri by'umukara.

Abagabo babiri ubona bishimye, bacyeye basa neza mu maso. Inyuma yabo hari imodoka ziparitse. Abo bagabo bambaye neza, inkweto zombi zisa, ariko amapantaro ntabwo asa. Umwe yambaye ipantaro ya kacyi n'ishati ya karokaro, mu gihe undi yambaye ubururu hose, imbere ishati y'umweru na karavate. Barasa neza rwose, bahagaze ku mapave acyeye.

Imodoka y'umukara iparitse ku makaro hasi inyuma yayo hari igikuta gisizerange ry'umweru ndetse hari n'icyapa kirimo amabara y'ubururu n'umweru.

Imodoka ifite imiryango ifunguye irasa neza mu mabara yerurutse, hasi ni amatapi y'umukara hanze hari indi modoka ifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara irimo n'abantu bayitwaye.

Imodoka nziza y'umukara iparitse ahantu heza, ihagaze kumapave inyuma yayo hari izindi z'umweru kandi nanone inyuma yayo hari inzu nziza ubona ifite amabara y'umuhondo icyatsi hejuru.

Imodoka nziza y'umukara ifite imiryango ifunguye, intebe zayo ziracyari nshyashya ndetse zimwe na zimwe muri zo ziracyanafunitse, hakurya y'imodoka hari urugo ubona rwose rufite amarangi y'umuhondo ndetse hirya yarwo hari ubusitani burimo ibiti bisa nkaho bitoshye rwose bisa neza.

Inyubako nziza iri hakurya y'umuhanda hino yayo hari ubusitani ubona burimo uturabyo twiza ndetse muri two hateretsemo n'icyapa. Hino yaho hari umuhanda mwiza w'umukara nyabagendwa wa kaburimbo, uriho ikinyabiziga gihetse umuntu ndetse bombi bambaye ingofero z'ubwirinzi.

Amafaranga apanze neza mu buryo bwiza, ahambirijwe fimbo bigaragara ko ari menshi. Impande yaho hari imashini ndetse impande y'amafaranga hari intebe nziza yegamirwa y'ubururu. Amafaranga ateretse ku meza y'igiti. Hakurya yaho hari igikuta cy'amabara y'umweru.

Abakiliya bari muri banki bategereje serivise. Abagabo babiri bari imbere bategereje, ndetse n'umugore uhagaze imbere wambaye agakanzu karimo utubara n'umukandara munda, hari n'abari kubakorera serivise bicaye imbere, hagati yabo bombi hari ibirahure ubona bihanaguye neza rwose bisa neza.

Amafaranga y'u Rwanda. Mu bigaragara ni ifoto y'igiceri cya kera gifite ikirango cy'ikigori, cyagaragazaga ukuntu icyo gihe habaga hari ubuhinzi, igihugu cyarenzaga kirasa neza rwose. Icyo giceri kiri mu ishusho y'umuzenguruko.

Inote y'igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda ifite ibirangantego byiza, hagati harimo ingagi iri kuzamuka imisozi, iyo noti ifite amabara atandukanye ubururu, umweru. Inyuma y'iyo noti hari ibara ry'umweru ubona risa neza rwose.

Abagabo babiri bari kuri gishe, uri inyuma wambaye ishati yumukara ameze nk'aho yabonye amafaranga ye, ari kuyabara kugira ngo arebe ko yuzuye. Uwambaye ishati y'umweru we ntabwo arayafata yose; hari ayo amajije gufata, andi aracyari kuri gishe.

Umusaza uri mu kabari intebe z'umweru n'ubururu hakurya ku gikuta hasize amabara y'ubururu n'umweru imbere yaho hari firigo y'umweru hakurya hari icyapa cya mukamira.

Ikaragiro ry'amata y'inyange rirasa neza rwose riri ku cyuma cy'umweru ndetse n'ubururu, umumama uhicaye yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'itaburiya y'umweru afite imisatsi iboshye hari akabido kari kujyamo amata meza.

Ibicuruzwa byo mu iduka biri mu mashashi yabyo bigaragara ko bikiri bishyashya, bimeze nk'aho wagira ngo bikozwe mu ifarini, ndetse haba harimo n'amavuta ubona ko rwose bimeze neza biba biryoshye. Biteretse ku kameza ubona gatwikirijeho amabara, igitambaro gifite amabara y'umweru n'ay'ubururu.

Resitora irimo icyo kurya n'icyo kunywa. Hari teremusi ebyiri, hari agapaniye mu mpande karimo capati, ndetse ibyo byose biteretse ku kameza k'ubururu. Idirishya risize amarangi y'ubururu n'ay'umweru.

Abagabo ubona banezerewe rwose baraseka barishimye bari gusangira amata ndetse no hasi ku meza hari ibyo kurisha bitandukanye, bambaye neza ishati ya karokaro imipira ndetse bariyogosheje mu bigaragara barasa neza rwose.

Ikaragiro ritanga icyo kunkwa harimo umugabo uri gucuruza ndetse mu kabati harimo amandazi n'ibindi biribwa bitandukanye, hakurya mu kandikabati k'ubururu harimo inyange ndetse na fanta. Iki cyuma, impande y'icyuma hahagazeho umugore wambaye ijipo irimo amabara atandukanye.

Utubido dupfundikiye tumeze nk'uturimo amata. Hari imeza ndetse n'intebe zifite imisego yererutse. Kucyapa hakurya ndahabona amabara y'ubururu, ndetse n'amagambo yanditseho umweru. Harasa neza rwose hasi, hari amakaro.

Inzu nziza irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'isuku, harimo n'intebe bicaraho, akameza, ndetse n'umugore uhagaze uri kwaka serivise yambaye agakanzu k'umutuku ,kuri iyo meza hateretse akavido, imbere hari umuryango ufunguye biragaragara ko harin'inyingi irimo amabara y'umweru.

Abana barimo baranywa amata bombi bicaye ku ntebe nziza z'umweru ku kameza kabo hateretse utubido tw'umweru turimo icyo kunywa. Impande yabo hateretse umuntu uri kubaha serivise. Hakurya inyuma y'umwana hahagaze umugabo wambaye imyenda y'icyatsi.

Akayetajeri karimo ikinyobwa kiza gikorwa mu bikomoka ku mata, gifite icupa ribengerana rifite umufuniko w'umweru. Hejuru gato harimo n'ibindi binyobwa bitari kugaragara neza.

Iyi ni inyemezabwishyu yo muri banki. Irimo iragaragaza umukiriya wishyuye neza rwose, yishyuye amafaranga agera mu bihumbi mirongo icyenda. Urupapuro rwiza rw'umweru, rwandikishijeho amagambo y'umukara ndetse n'ikirango mu magambo cya banki mu mabara y'ubururu.

Umugore n'umugabo ubona bishimye rwose wagira ngo hari ibyo abari kwamamaza, umugore yambaye ikanzu y'umuhondo ifite amabara ukuboko k'umukara n'umweru ubona bisa neza, umuhungu yambaye aga tisheti agapira gasa neza, urabona barishimye baramwenyura.

Serivisi za mobayiro mani ziriho, nimero kuva kuri rimwe kugera ku ikenda byombi cyangwa byose byanditse mu ibara ry'umukara, ndetse no mu rurimi rw'icyongereza, hasi haciye imirongo ndetse n'amagambo ari mu mabara y'ubururu.

Icyapa kigaragaza uburyo bwo kwishyurana. Cyanditse mu magambo y'umweru ndetse ku ibara ry'icyatsi, impande i buryo hari telefone igaragaza, iyo telefone irapfunduye ndetse no hirya yaho hari indi irimo yaka.

Inyemezabwishyu igaragaza umukiriya wari uri kwishyura cyangwa se wari warangije kwishyura Rwanda reveni ibihumbi magana abiri mirongo itanu, urupapuro rw'umweru ikirangantego mu kuboko kw'iburyo, n'ikindi kirangantego m'ukuboko kw'ibumoso cya Rwanda reveni.

Inyemezabyishyu yo mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro, yandikishijweho amagambo meza y'umukara ndetse iburyo bw'urupapuro hariho ikirangantego k'igihugu, mu gihe ibumoso hariho ikirango k'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro.

Inyemezabwishyu y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, yandikishijemo inyuguti ndetse n'amagambo mu ibara ry'umukara. Iburyo bw'urwo rupapuro, hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe ibumoso hari ikirango cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Inyemezabwishyu yo mukigo gishinzwe imisoro n'amahoro umukiriya purayimu inshuwarensi yarishyuye neza rwose biragaragara ko byagenze neza, amafaranga yishyuye ni ibihumbi icumi hakurya iburyo hari icyapa cy'igihugu ndetse hakuno hari icyapa cya Rwanda reveni

Eyateri ni sosiyete ikorera mu Rwanda, ikaba ijyana n'andi mashami ku isi ahantu hatandukanye, ishinzwe iby'itumanaho ndetse n'ibya interinete ni iya kabiri yaje ikurikira emutiyeni rwanda.

Inyemezabwishyu yo mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda iragaragara neza iburyo bwayo hari icyapa kikirangantego cy'igihugu ndetse ibumoso hari icyapa cyangwa se ikirango cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro biragaragara neza ni urupapuro rwa mpande enye rwandikishijeho ikaramu y'umukara mu gihe rwo ari umweru.

Inyemezabwishyu yo mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Iri ku rupapuro rw'umweru handikishijweho n'amagambo y'umukara, ndetse iburyo bw'urupapuro hari ikirangantego cy'igihugu, mu gihe ibumoso hari ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Abagabo babiri bameze nkaho umwe ari kuvunja amafaranga cyangwa se amadorari, umwe avunjira undi bari kuyahanahana inyuma yawo harasa umukara, impande n'impande ntabwo hagaragara ariko ni maboko yabo.

Abagore bombi bari gutanga serivisi ndetse abandi bazihabwa, uri kuyitanga yambaye agakanzu k'igitenge mu gihe uri kuyihabwa yambaye agakoti k'umukara furali mu ijosi n'igitambaro mu mutwe cy'amabara birasa neza rwose.

Inzu y'ivunja n'ivunjisha, biragaragara ko imeze neza, yandikishijeho amagambo y'umukara ndetse n'akarangacyerekezo k'umukara. Hakurya hari umugabo mbona n'umugore bameze nk'aho bari kujya kuyishakamo serivisi ndetse hanze yaho hari ibinyabiziga n'inyubako zigeye zitandukanye.

Inzu y'ivunja n'ivunjisha biragaragara ko harimo imashini z'ubwoko butandukanye, hakurya yaho hasize irangi ry'umweru, hari ibiganza bigaragara biri imbere yaho, birashoboka ko biri kwaka serivisi muri iyo nzu.

Icyapa kigaragaza ivunja n'ivunjisha hariho ibiciro bigiye bitandukanye byandikishije mu ikaramu y'umukara ariko icyo cyapa kiriho amabarage atandukanye, hari ahandikishijwe umutuku, ubururu, icyatsi ni amabara rwose agiye atandukanye.

Inzu y'ivunja n'ivunjisha, ihagazeho umugabo ubona w'uruhu rwera, yambaye umupira w'umukara, ndetse iyo nzu irimo amabara y'umuhondo, yandikishijweho n'inyuguti n'imibare ndetse by'umukara. Ubona ko bisa neza.

Inzu y'ivunja n'ivunjisha irakinguye itegereje abakiriya baza bayigana, icyapa ibyapa byayo biriho amabara y'umutuku byandikishijweho n'ibindi mu mabara y'umweru urabona rwose ni inzu ifite isuku isa neza.

Akazu gacururizwamo serivisi z'amafaranga gafite amabara meza, amarangi aryoshye umweru, umutuku ndetse n'umukara, impande yaho haparitse ivatiri nziza y'umukara ndetse n'inzu bigaragara ko imeze neza ku ruhande.

Intebe nziza ndetse n'ameza, bigaragara ko wagira ngo biri mu nzu. Inyuma yaho hari akabati ubona rwose gasa neza kandi ibyongibyo byose biteretse mu nzu nziza ifite amakaro hasi. Mu bigaragara rwose ibikoresho birasa neza.

Inzu nziza ifite amadirishya y'umukara, isize irange ry'umweru, hanze yayo hari salon, ifite ameza n'intebe ubona bisa neza, ifite aho bicaraho h'umukara. Ndetse iyo saro iteritse mu busitani bufite pasiparomo zisa neza zitoshye. Munsi y'iyo nzu hari indi ifite amabati y'umukara ubona igezweho.

Imeza ndetse n'intebe zayo hejuru kumeza hariho ikirahure ubona gisa neza. Hasi hariho amakaro meza rwose yijimye hakurya habona akabati kahateretse ubona rwose ni ibintu bisa neza biryoshye

Intebe, ameza ubona ko bisa nk'aho biri ku isoko bigurishwa. Biri mu ibara ryiza rya beje. Inyuma yaho hari inzu ubona isa neza ikiri nshyashya. ifite amakaro hasi, amadirishya n'inzugi by'umweru, harasa neza rwose.

Ubusitani bwiza bufite indabyo nziza z'icyatsi harimo imitako igiye itandukanye ndetse n'intebe ziteye zifite imitaka y'imihondo yagenewe abo kwicara muri ubu busitani inyuma yaho hari inzu nziza ubona icyitegererezo ifite inkingi nziza ndetse izo nkingi ziteretse ku mabuye asa neza.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo bisa nkaho wagira ngo ni hoteri. Ifitemo amatara meza acanye y'umuhondo. Hanze yaho hari imikindo ubona iyakikije ndetse n'imitaka y'abantu bitwikira izuba bicayemo. Hino yaho hari urwogero rumwe bita pisine ubona rw'ubururu, harasa neza rwose!

Ibyo kurya ubona biteguye neza rwose ahabugenewe ku murongo, hakurya hari abantu bahicaye ndetse inyuma y'umuntu hari firigo ubona isa nkaho irimo icyo kunywa, inyuma y'iyo nzu hari umujyi ubona utatse amatara agiye atandukanye.

Icyapa kigaragaza hoteli iri ku Kiyovu. Kirasa neza, ni mpande enye ihagaze, kandi gifite amabara atandukanye; umweru, umutuku, amagambo yanditsemo i ndani ni umukara, ariko ibiciro bigiye ari umweru. Ndetse n'amagambo y'ibyo kurya ni umweru.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo mu gihugu cy'u Rwanda imwe bita comvesheni senta, iri mu mabara meza amatara acanye umuhondo, ubururu. Inyuma y'iyo nzu hari bagarawundi ubona nziza mu ibara ry'ubururu harakeye rwose harasa neza.

Inyubako nziza rwose ubona ko iryoheye amaso, irazengurutse iragetse igera hejuru, hagati yaho harimo urwogero rufite amabara ibara ryiza ry'ubururu, iyo nzu nayo itatseho amarangi y'umuhondo ibirahuri bigaragara bisa neza biryoheye amaso, impande y'izo nzu hari indabyo ubona zisa neza biryoheye amaso.

Inyubako nziza cyane iryoheye amaso, harimo imitaka y'abantu bikingamo izuba, hino yaho hari urwogero ubona rwiza runini rufite amabara y'ubururu, inzu kandi ifite amabara y'umuhondo ndetse isakaje amabati y'umukara, impande n'impande hari ibiti ubona bisa neza biryoheye amaso munsi yibyo biti haparitse imodoka nziza y'umweru.

Icyapa kiriho ibiciro byo mu kabari hejuru hari ifoto rwose isa nkaho iriho ibiryo biryoshye hariho salade n'ibindi bitandukanye, icyo cyapa ni umukara mu gihe ibyanditseho ari umweru n'umuhondo.

Igikombe giteretse neza, kirimo icyo kunywa. Giteretse ku meza ubona nziza yijimye, hakurya y'imeza haratatse, hafite amabara meza y'umuhondo, ndetse hari n'utundi dukoresho duteretse hakurya, turimo ibara ry'umweru, n'irya oranje. Inzu nziza rwose ikiye!

Akabari karimo ibintu bigiye bitandukanye. Harimo intebe nziza cyane zegamirwa, ndetse na televiziyo iri imbere. Ibinyobwa biragaragara birimo bigiye bitandukanye, bipanze neza ku murongo. Ako kabari karimo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'andi agiye atandukanye. Hanze mu bigaragara harijimye.

Inzu nziza zitandukanye, zubakishijwe amatafari meza, zisize amarange, ariho n'ama zisakaje amabati meza y'amategura, hasi hari jaride n'intebe harimo n'ikibuga kifi kirimo indabyo nziza rwose z'amabara agiye atandukanye, ndetse no hirya y'iyo nzu harimo n'izindi nyubako nziza ziryoheye amaso.

Inzu ubona isa neza irimo abama umumama uri guhabwa serivise n'umugabo begeranye, bambaye neza bishoboka, abari kubaha serivise bari gukorera ahantu heza, amadirishya y'umweru, ibirahure ubona bisa neza rwose biryoshye.

Abagabo n'abagore bicaye bameze nk'abari mu nama baganira, barishimye baranezerewe, imbere yabo hari imeza ndende bari kuganiraho, amacupa y'amazi abateretse impande, inyuma yabo hari idirishya rifite imirongo y'umukara n'ibirahuri bisa neza, hakurya hari igikuta cy'umweru, muri make bicaye ahantu heza rwose birasa neza.

Abagabo n'abagore bicaye, ubona harimo abari gutanga serivisi ndetse n'abari kuzihabwa. Bicaye mu nzu nziza y'amakaro, intebe nziza z'umukara zegamirwa, ndetse n'ibishushanyo ku gikuta bigiye bitandukanye.

Abagabo n'abagore, bicaye ubona ko harimo bamwe bari gutanga n'abandi bahabwa serivise, bicaye ku ntebe nziza zegamirwa z'umukara ndetse imbere yabo hari imeza, abari gutanga serivise, imbere yabo hari imashini, ubona ko bari gukora akazi neza, bamwe muri bo bambaye ishati y'ubururu ndetse n'umumama wambaye agapira karimo ibara rya oranje.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Iki ni igitanda gisizwe irangi ry'umutuku nagarashiramo isaso, igitanda kize cyane ni kinini cyaryamo abantu barenze umwe ni cyiza cyane.

Urupapuro rwo muri banki rugaragaza imyirondoro abaka inguzanyo bagomba kuzuza rukikijwe n'inguni z'umukara ariko rwo rwanditseho amagambo amwe n'amwe ari mu cyatsi ndetse andi ari mu ibara ry'umukara rurasa neza rwose.

Icyapa cya banki y'abaturage hariho umugore wifashe neza rwose wambaye umwenda w'akazi yambaye ingofero mu mutwe y'akazi ndetse inyuma kuri icyo cyapa hariho amabara y'umukara cyandikishijwe amabara y'umweru mu ibara ndani imbere ry'icyatsi ndetse n'ubururu.

Icyapa cya banki kigaragaza serivise nziza itangwa. Kiri mumabara yijimye, ndetse n'andi y'umweru n'ubururu. Abagabo, umugabo n'umugore bifashe neza bambaye ikoti ry'umukara n'iry'umweru, ishati y'umweru imbere ndetse na karavate, barasa neza rwose.

Abagore bahagaze ku murongo umwe, barishimye barasa neza, bambaye imyenda myiza, imbere yabo hari ibiseke bisa neza. Bombi bambaye ibitenge, inyuma yabo hari igikuta cy'umuhondo. Barasa neza rwose, uri kubona ko bishimye bafite akamwenyu ku maso.

Abagabo babiri bari kuri gishe, uri inyuma wambaye ishati yumukara ameze nk'aho yabonye amafaranga ye, ari kuyabara kugira ngo arebe ko yuzuye. Uwambaye ishati y'umweru we ntabwo arayafata yose; hari ayo amajije gufata, andi aracyari kuri gishe.

Abagabo n'abagore bagiye kwaka serivisi muri koperative. Barahagaze bamwe basa nkabarambiwe bari kureba imbere rwose; icyapa kibari imbere gifite amabara y'umutuku, icyatsi, ubururu, umweru, ariko ijambo ryanditsemo ryandikishije amagambo y'umukara.

Ifoto igaragaza umugore wahawe inguzanyo yo kubaka inzu hari igishushanyo mbonera cy'inzu nziza rwose y'icyitegererezo, igeretse, urabona imbere yayo ni umuhondo kumpande hasize amabara y'umweru. Uyu mugore uri kuyamamaza afite terefone y'ubururu mu bigaragara yatunguwe arasa neza afite akamwenyu mu mumaso.

Icyapa kigaragaza ko hatangirwa inguzanyo, munsi yaho hari imdoka nyinshi ziparitse ubona zisa neza, ndetse imbere y'aho hari umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, bigenda binyuranyuranamo byose.

Icyapa kigaragaza urugaga rw'abikorera ndetse n'inguzanyo ku banyeshuri, umugabo uriho yambaye ipantaro ya kaki, umupira w'umukara ndetse n'imbere harimo umupira w'umweru, afite ibitabo bitandukanye mu ntoki arasa neza arimo araseka aramwenyura, imbere kuri icyo cyapa hariho amarangi y'icyatsi ndetse cyandikishijemo inyuguti z'umweruru.

Inzu nziza y'ubucuruzi, ihagazeho abantu batatu hanze, umuryango umwe urafunguye, indi yo hejuru irafunze, iyo nzu ifite amabara meza umweru, umuhondo ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye bifite amabara y'ubururu, umweru n'icyatsi, harasa neza rwose.

Inzu nziza cyane ifunze ifite ibirahure bihanaguye ifite kandi amabara y'icyatsi n'umuhondo hanze hashashe amapave asa neza aryoshye mubigaragara iyi nzu ni nziza.

Icyapa cya banki cyamamaza, kiriho umukobwa mwiza cyane, umeze neza, afite terefone ku gutwi imisatsi igwa inyuma, icyo cyapa cyandikishije amagambo atandukanye mu ibara ry'umweru, ubururu, umuhondo.

Icyapa kigaragaza inguzanyo ya banki. Hariho umugore ubona wishimye, wanezerewe, ibyishimo byamurenze, afite telefoni mu ntoki, yambaye umupira w'umuhondo, agakoti k'ikoboyi, afite n'imisatsi y'umukara igwa inyuma. Icyapa cyandikishijweho amabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara impande ye umusore uhetse igikapu cy'umutuku imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ushinzwe umutekano inyuma yabo inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi.

Kigali Kibagabaga hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitanu. Ikodeshwa mu madolari magana abiri na mirongo ine, mu gihe kingana n'ukwezi kumwe konyine.

Isoko ry'ibiribwa ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye: imineke, ibitoki, pavuro, tungurusumu. Biragaragara rwose ko ari isoko ryiza ry'icyerekezo rigezweho. Bigiye bipanze neza ku murongo, mu bigaragara birasa neza.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye ndahabona inyanya, ibitunguru, ibishyimbo, amashaza, abamama bari gucuruza bambaye imyenda harimo abiteze mu mutwe, isoko ryiza rwose risakaye neza.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ndabona inkweto zo kwambara zishashs hasi kuri shitingi, abacuruzi n'abakiriya bari kugenda banyuranyuranamo, hakurya hari ibitenge bimanitse ndetse n'andi maduka atwikije za shitingi z'ubururu n'umweru, ndetse n'umukara.

Umuhanda mwiza nyabagendwa wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga bigenda bibisikana, ibindi biparitse ku ruhande, hari inzu nziza ndende ubona rwose ifite ibirahure bibi by'umukara bihanaguye bisa neza, icyapa ku ruhande rw'umuhanda, a u ibiti bisa neza bishishe.

Abantu benshi bateraniye mu isoko harimo abagore, abagabo, isoko ryiza ubona risakaje amabati y'umuhondo. Hanze yaryo hari imodoka nyinshi ubona ziparitse ndetse no hakurya hari imitaka ya emutiyeni y'umuhondo.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, inyanya, amashu, tungurusumu, karoti, ririmo ababyeyi bitwikiriye imitaka y'imirongo inyuranamo, urabona rwose ko ari isoko risa neza.

Iduka ry'ibiribwa bigiye bitandukanye bigiye biteretse ku murongo, ndetse kuri buri kiribwa hagiye hariho n'ibiciro byabyo, hirya hari umuntu uri kubyitegereza neza wifashe mu mayunguyungu, biri mu nzu nziza isa neza ifite amarangi y'umuhondo, ndetse n'icyatsi hejuru hari amatara ari kugenda amurikira ibyo bicuruzwa.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ibigerekerenije n'ibindi bimanitse neza, abamama bicye bameze nk'abategereje abakiriya, bambaye imyenda myiza rwose, bimwe muri ibyo bicuruzwa ndahabona ibitenge, udusakoshi, ndatse n'ibindi biranga umuco nyarwanda.

Inzu nini kandi ndende cyane y'ubucuruzi, irimo iragaragaza ibikorerwamo, cyane ko nk'ibigaragara hanze ari banki y'abaturage y'igihugu. Inzu nziza ifite ibirahuri bigaragara neza rwose ko bihanaguye ndetse n'amabara y'umuhondo kuri iyo nzu.

Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Isoko ryubatse neza mu buryo bwa kijyambere rigezweho, ni rirerire rifite amarangi y'umuhondo ndetse hasi amarangi y'icyatsi. Imbere yaryo hari abantu benshi bahahagaze urujya n'uruza rwabo bambaye imyenda itandukanye barasa neza, hejuru y'iryo soko kandi hari insinga ziri gutambuka zinyuranyuranamo z'umuriro w'amashanyarazi.

Iduka ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye, bya kinyarwanda. Uduseke, imigongo utwo bashyiraho imfunguzo. Urabona rwose biraryoshye, birasa neza. N'iduka rifite icyerekezo cy'ejo hazaza. Imigongo, muri macye riratatse pe! Riratatse neza.

Abantu b'ingeri zitandukanye bameze nk'abari guhaha mu isoko. Hari intebe iriho ubusa, hari igisheke cyegetse ku ruhande, ndetse imbere harimo n'umumama witandiye, umukobwa wambaye ipantaro yumukara n'agakoti k'ubururu ndetse yambaye n'ingofero, impande ye hari undi mumama ukenyeye igitenge, birasa neza rwose.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birarambitse k'uruhande ndetse hari n'ibindi biri hejuru yabyo, harimo abari kubicuruza ndetse n'abakiriya bicaye abagendagenda hasi muri iryo soko hashashe amabuye impande yaryo ndahabona umutaka wa emutiyene w'umuhondo.

Abantu benshi cyane ndetse n'ibinyabiziga biri mu kavuyo ni uruvunganzoka hari ni nyubako ubona igeretse kenshi rwose hari n'izindi zisakaje amabati y'umutuku asa nkakuze hakurya y'ifoto hari ibiti ubona bihagaze neza bifite amashami meza n'amababi atoshye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibimanitse ndetse n'ibipanze ku mirongo, harimo abacuruzi ndetse n'abakiriya bari kugenda baritembatemberamo urabona rwose ni isoko rifite urujya n'uruza rw'abantu.

Iduka ricuruza imitako nyarwanda harimo igiye itandukanye, hakurya kubikuta hariyo ibitenge ubona by'amabara meza, umuhondo, ubururu, icyatsi, umweru, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abagore batandukanye bari mu isoko barimo baragurisha ibyo kurya bitandukanye hari abateruye inyanya, hari intoryi zitaditse, insenda, hari abafite udufuka mu ntoki muri make birasa neza rwose bari mu kazi barimo baracuruza.

Ababyeyi bari gucuruza amagi. Barasa nk'aho bari kuganira, n'ubwo umwe ari kureba undi ariko undi akaba atamureba. Biteze mu mutwe bombi n'udutambaro, bari mu isoko ryiza risakaye neza rwose birasa neza biraryoshye.

Isoko ryiza rya kijyambere ubona rigezweho rwose, impande yaho hari ibyapa byamamaza, hari alimantasiyo ndetse n'icyapa cya Mukamira. Iri soko rifiteho amarangi meza atandukanye pinki, umweru hasi umuhondo. Ni isoko ryiza ry'icyitegererezo.

Akazu ka mtn k'ubucuruzi, gahagaze neza rwose ndetse harimo n'umuntu uri gutanga serivise. Gafite amabara y'umuhondo, imbere n'umweru. Hirya hahagaze abana, ndetse no hakurya hari indi nzu y'ubucuruzi. Imbere yaho hari umugabo uri gutambuka.

Inzu ya emutiyeni irimo umukobwa uri gutanga serivisi. Ni umwana mwiza ufite imisatsi igwa inyuma, yambaye agashati keza k'umweru gafite ikora ry'umukara. Ndetse amadirishya y'iyo nzu arafunguye rwose kugirango akayaga gakomeze kinjire, hirya yaho hari ubusitani.

Handitseho irembo ahatangirwa ubufasha ku birebana no kwiyandikisha cyangwa se mu kwishyura imisoro, kwifotoza n'ibindi bijye bitandukanye.

Aha ngaha hari abantu bane bambaye imyenda myiza cyane harimo abagabo babiri bari hagati, ndetse n'abagore babiri bari ku ruhande, bose bafashe ku ibendera ry'u Rwanda bafatishije akaboko k'ibumoso, ndetse bamanitse akaboko k'iburyo bari kurahira imbere yabo bose bafite indangururamajwi kugira ngo ababakurikiye babumve hari kandi n'insakazamashusho iri kugerageza kwereka abatabasha kwegera bano bantu.

Inzu y'ubucuruzi ya emutiyeni ihagazeho abantu bagiye batandukanye, abagore, abagabo, ndetse muri yo harimo umugabo uri gutanga serivisi. Impande y'iyo nzu hari ibiti biyikikije, ndetse no hirya yaho hari abandi bagabo, ubona bahagaze, bari kugenda baganira.

Umugabo uhagaze imbere y'ikinyabiziga cye cya moto, inyuma ye ndahabona icyapa kinini cyane kiriho imodoka nini y'umukara ndetse ni icya emutiyene kiri mu mabara y'umuhondo ibyandikishijweho byose ni umukara n'akarango ka emutiyene.

Umugabo uhagaze impande y'akazu ka emutiyeni ako kazu karimo umukozi ushinzwe kwakira abakiriya, inyuma y'ako kazu hari inzu nziza ubona igeretse ifite amabara ya oranje ndetse n'umweru, inzugi ni umweru zifite n'ibirahure bihanaguye neza rwose hanze y'iyo nzu harimo hashashe amapave.

Abagabo babiri bahagaze kuri moto bombi bambaye amashati y'icyatsi ariko umwe yambaye ipantaro ya kaki undi yambaye ikobo y'ubururu, bombi bambaye kasike mu mutwe impande yabo hari igipangu kiriho amabara y'icyatsi.

Umugabo uhagaze impande ya moto yiwe, yambaye ipantaro y'ubururu agapira k'ubururu ndetse na jire ya oranje. Yambaye kandi ingofero y'ubwirinzi isa icyatsi. Ari gupfundura agapaniye yari ahetse kuri moto ye, mugihe moto ye iparitse hirya ye hari kaburimbo nyabagendwa, ndetse hakurya muri kaburimbo harimo imodoka irimo igenda, hirya y'umuhanda hari ishyamba rinini ubona risa neza.

Icyapa kigaragaza ibiribwa biri kuri sitandadi nziza, hari umugabo uri kubitegura ndetse n'umwana uri hirya yiwe ubona ufite imisatsi myinshi, hejuru y'icyo cyapa hariho amabara y'umuhondo mu gihe ibyanditseho ari umukara.

Ipipiki itwara utuzigo, iriho impande y'aho abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye ingofero y'ubwirinzi mu mutwe, impande y'ipikipiki hari igipangu gisa neza ubona gifite ibara ryijimye, imbere ndani harimo inzu isakaje amabati atukura.

Iguriro ryo kuri murandasi, ririho umugabo ufite akamverope gateretse ku ibogisi, iyo bogitse iteretse kuri moto, mu gihe impande ya moto hari urukuta rw'amabuye ndetse hirya yarwo ubona hari umurima cyangwa se ubwatsi ubona busa neza buryoheye amaso.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, abamotari ni babiri ndetse n'abagenzi babiri, bose uko ari bane bambaye ingofero z'ibara ry'icyatsi barasa neza bambaye amabara atandukanye umweru, ubururu ndetse n'andi mabara yererutse, hakurya y'umuhanda no hakuno hari ibiti bifite amashami y'icyatsi asa neza ndetse n'akabaraza k'inzu gasakaje amabati.

Ikinyabiziga gihetse akabogisi ka vuba vuba gitwawe n'umugabo wambaye ishati ya karokaro hakurya umuhanda wa kaburimbo harimo n'ibindi binyabiziga birimo bigenda. Hakurya yaho kandi hari utwatsi ubona dusa neza turyoheye amaso.

Umugabo uri kuri moto uhetse akabuwate yambaye ingofero y'icyatsi. Hakurya imbere ye ndahabona igiti gishishe gisa neza rwose, impande ye hari amapoto birashoboka ko ari ay'umuriro cyangwa se ari ayatanga urumuri muri kaburimbo.

Iduka ricururiza kuri murandasi. Harimo ibikoresho bitandukanye; amasakoshi, amakoti y'amakwire, bigiye bitandukanye. Icyo cyapa kigaragaza iyo myenda cyandikishijwe amabara y'umuhondo, umukara, ubururu, biryoheye amaso.

Inzu nziza cyane rwose. Ifite amapave hasi ari mabara agiye atandukanye : umweru, umukara, umutuku, mu kabaraza hashashe amakaro, inzu irasakaye neza rwose, ni inzu y'icyerekezo.

Umugore n'umugabo barimo baraganira, umwe afite uruhu rwera undi arirabura, bahagaze ahantu heza, muri pasiparumu z'icyatsi, inyuma yabo hari umukindo uryoshye, umeze neza ndetse si umwe ni myinshi iri ku kumurongo. Ruguru yaho hari urwogero rwiza ndetse ruri no ku nzu ubona ifite inkingi nziza n'amasikariye azamuka hejuru.

Inzu mberabyombi ikorerwamo inama, hakaba harimo haraberamo inama y'abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe z'imikara bazengurutse, n'abandi bicaye ku ntebe z'imikara inyuma yabo hari imeza imwe ifite ibara ry'umutuku kuri ayo meza harihoho amatelefone n'amamikoro yo kuvugiramo.

Inguni nziza, ibikuta bisize amabara y'umweru cyangwa se beje amakaro hasi hejuru hari pulafo nziza ndetse harimo n'amatara birasa neza rwose.

Inyubako nziza ubona ziteganye zisa neza zombi zisakaje amabanga akura agezweho, igipangu cyiza gisize amabara y'umuhondo ndetse n'amabuye hasi hagati yazo harimo irangi ry'umukara imbere yicyo gipangu hashashe amapave meza, ubona rwose ko n'inzu zinsirimu zigezweho.

Umugabo n'umugore barimo baratembera mu nyubako biragaragara baranezerewe, inyuma yaho hari igikuta cyiza kiriho amashusho ya mpande enye y'imitako impande yabo mu kaboko k'iburyo hari ameza ndetse n'intebe ziteye, ziteguye neza mu bigaragara nkaryohera amaso hejuru y'ameza hari itara rihamuritse biri gucana mweru.

Umugore n'umugabo barimo baratembera mu nzu nziza cyane, umugabo yambaye ipantaro y'ubururu ishati y'umweru ndetse n'isaha, umugore yambaye agakanzu karimo utubara, hirya hari intebe nziza hari na televiziyo y'umukara, hakurya hari igikuta gisize amarange y'umweru ndetse hejuru hari na purafo isize amarange y'umweru n'udutara tubamurikira.

Inzu nziza ikodeshwa i Kigali irageretse iteye amarangi meza ya oranje, umuhondo n'umweru. Hanze hashashe amabuye atandukanye y'amabara. Imbere kandi mu kabaraza hari umudamu uhahagaze uri kureba hanze.

Inzu nziza iri i Kanombe i Kigali ifite amarangi meza y'umweru, umuhondo isakaje amabati meza agezweho y'umukara kandi nayo ubwayo isize amarange meza. Igipangu cyayo kirasize kirasa neza, mu mpande z'igipangu hari umurima urimo indabyo uryoheye amaso

Inzu ikodeshwa i kigali kimironko ni inzu nziza ifite amapave hasi inzu isakaye amabati y'umutuku isize amabara y'umuhondo, amadirishya y'umweru, ndetse n'ibirahure, imbere yayo hari ibyatsi bisa neza bitoshye.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Inzu nziza ikodeshwa, iherereye i Kigali, Gisozi. Harimo amakaro meza ndetse n'ubwogero bw'ibyombo bisa neza. Impande y'iyo nzu, haragaragara ibiti bifite amashami meza ndetse n'amabara y'icyatsi.

Inzu nziza isa neza ifite amabati atukura isize amarange meza asa neza ifite n'amatafari ubona aryoshye, hagati yayo hasizemo irange ry'umukara hanze y'inzu hari igipangu ubona gifite amadirishya rwose asa neza hanze y'igipangu hari inzira nyabagendwa ubona iryoshye.

Inzu nziza ikodeshwa iri Kigali i kanombe, hasi ishashe amapave ndetse iyo nzu iteye amarangi y'umutuku amadirishya y'icyatsi n'ibirahure bisa neza bihanaguye, harasa neza rwose.

Inzu nziza yakataraboneka bigaragara ko ari iyubucuruzi, igeretse kenshi cyane isize amarange meza aryoheye amaso amwe muri yo ni; umuhondo, umukara umweru. Hakurya hari igicu kiza ubona gifite amabara y'umweru n'ubururu.

Inzu nziza cyane, ifite amatafari, ifite amabara yijimye ndetse n'andi yerurutse, ifite amadirishya y'umweru, inzugi z'umweru, isakaje amabati meza y'umukara. Imbere yaho hashashe amabuye, ndetse ndahabona n'ubusitani busa neza, butoshye, impande y'ubusitani hari igipangu cy'amatafari.

Inzu y'amatafari ahiye bari kubabaka, iracyari mu ntangiriro ariko urabona rwose ko ari inzu y'icyitegererezo ifite ejo heza. Inyuma yayo hari izindi nzu barangije kubaka, zisakaje amabati atukura ndetse zisize n'amarangi y'umweru. impande y'iyi nzu bari kubaka, hariho ibiti ubona rwose byiza, bisa neza, biryoheye amaso.

Ni inzu iri gukodeshwa ifite porotaye y'amabara y'umukara inzu isize amarangi meza yijimye, isakaje amabati agezweho hakurya yaho ndi kuhabona ahantu hasa neza rwose hasi hashashe amapave.

Inyubako nziza irimo igurishwa i Kanombe. Ifite amabara meza, isakaye neza. Amwe muri ayo mabara ni umuhondo, umweru, umukara. Hasi hashashe amapave y'amabara agiye atandukanye. Ruguru yaho hari igikuta gifite amabuye n'amatafari. Ruguru y'icyo gikuta hari igiti ubona gishishe, gifite amashami meza y'icyatsi.

Inyubako nziza igezweho irageretse, ifite inkingi z'amabara yijimye ndetse iyo nyubako isize irangi ry'umuhondo, amadirishya n'inzugi by'imyeru, hanze yaho hari ubusitani bwiza, bufite indabyo z'umweru ndetse impande y'ubusitani hashashe amapave meza rwose y'amabara agiye atandukanye.

Inzu nziza ikodeshwa, iri mu busitani bw'indabyo nziza, yo ubwayo ifite amabati y'umukara, amadirishya y'umweru, irangi ryiza, ibirahuri byijimye, imbere hari amapave mu byukuri irakeye irasa neza.

Iyi foto iragaragaza ahantu bacuruzwa hari abantu bari guhaha hari aho ubu abantu bishimye aho umuntu afite ibyagiye kwa mu ntoki hari naho umuntu atishimye.

Abagabo bahagaze batatu bari mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye, ndabona utubati tw'ibara rya orange ndetse aba bagabo bambaye ipantaro y'ubururu n'indi y'umukara undi yambaye umupira w'ingofero mu gihe undi yambaye umupira wa orange ndetse yifashe inyuma mu mugongo, inzu nziza cyane y'amakaro ndetse hejuru hari purafo y'umweru n'amatara amurika.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, birimo ndabibona biteretse neza ku murongo mu tubati twiza tw'amabara y'umuhondo n'ay'umweru, harimo n'umugore umeze nkaho uri kugura wambaye umweru hejuru n'umukara hasi, iduka rirasa neza rwose.

Abagabo n'abagore barimo barasohoka mu iduka, abandi bari kuryinjiramo urabona bisa neza bambaye imyenda itandukanye irimo umukara, ubururu ndetse na numero zandikishijeho umweru, hejuru yabo hari icyapa cyanditseho ngo simba ndetse urabona hakurya harasa neza amakaro hasi, hejuru urumuri rubamurikira.

Abagabo n'abagore bahagaze ahantu hatandukanye. Bahagaze ahantu heza, harimo ibicuruzwa byinshi byiza, ndetse umumama yambaye ikanzu y'umutuku, mu gihe uwo bahagararanye yambaye umukara hose. Basa nk'aho bari kuganira, ubona biryoheye amaso. Imbere yabo hari undi mugabo uhagaze inyuma yabo, urabona rwose ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi igereritse kane. Hasi hari imyenda itanditse yo bari gucuruza. Hirya no hino hari imiryango ifunguye ndetse indi irafunze. Hasi hari amakaro ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Harasa neza rwose.

Iduka ririmo abantu bari gutanga serivisi ndetse n'abari kuzihabwa, umwe mu bari kuzihabwa yambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru n'uturongo tw'umutuku n'umweru ku rutugu rwe, uri kumuha serivisi yambaye umupira mwiza w'umutuku n'ipantaro y'umukara biragaragara rwose ko ari guhabwa serivisi neza.

Icyapa cy'ubwishingizi mu kwivuza kiriho umugabo wambaye umupira mwiza w'umweru, afite indangururamajwi y'umukara ndetse kuri icyo cyapa kiriho amabara y'umweru cyandikishijweho amabara y'umweru mugihe n'inyuma yacyo hari umugabo ubona wambaye agapfukamunwa wambaye n'ijiri itukura.

Ifoto y'icyapa kigaragaza ejo heza hariho umwana wambaye agapira k'imirongo afite derede mu mutwe afite n'agapupe mu ntoki urabona rwose birasa neza. Iyo foto kandi iriho amabara agiye atandukanye umuhondo icyatsi cyijimye n'icyatsi cyererutse amagambo yanditseho kuri icyo cyapa nay'ubururu.

Umugabo afite imbwirwaruhame ndetse n'indangururamajwi zitandukanye impande ye. Yambaye ishati nziza y'umweru ndetse na karuvate mu ijosi. Inyuma ye hari icyapa gifite amabara y'ubururu ndetse cyandikishijweho amagambo y'umweru n'umuhondo n'umurongo w'icyatsi.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye biri mu tubati bipakiye neza ku murongo hasi hari amakaro y'umukara ndetse n'umweru ukomeje kwigira imbere hari ibyapa birimo amabara y'umutuku n'umweru arasa neza rwose.

Iduka ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo utangawizi, kokombure, urusenda, inyanya, imineke ndetse harimo n'umukobwa urimo kuyitegereza neza. Yambaye ipantaro y'ubururu, umupira mwiza w'amaboko maremare ndetse n'agakapu ku rutugu. Afite imisatsi myiza, ubona yahambiriye inyuma, arasa neza rwose.

Umugabo ubona ko asa nk'ukuze mu ngofero nziza cyane y'iwe umukara we ndetse n'utundi twa duciyemo yambaye imyenda myiza cyane rero y'imituku ndetse urabona ko ari iy'abantu arenganura abarenganye cyangwa se barengera abandi mumategeko.

Imodoka nini iri mumuhanda itwara imizigo yiganjemo ibara risa umuhondon'umweru ikaba ifite indi ihetse inyuma isa ibara ry'umweru hakurya yayo hakaba hari ibiti birebire hakurya yabyo hakaba hari amazu menshi.

Abagabo n'abagore barimo baranyuranamo, bamwe bari kwinjira mu muryango mwiza ufunguye, hejuru y'umuryango hari icyapa cya simba ndetse n'ikindi cya banki ya ekwiti, kuri kaburimbo hari amabara y'umukara ndetse n'ay'umweru, harimo n'ikinyabiziga kigaragara ko gihetse umuntu.

Abagore n'abagabo bari mu iduka ricuruza ibiribwa. Uri imbere yambaye agasengeri gaciye amaboko ariko k'umweru. Afite igare ririmo ibyo yaguze, ari kuricunga imbere y'iwe. I buryo n'ibumoso bwe, hari ibicuruzwa bipanze mu iduka mu buryo butandukanye.